Umuganga uri mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura wambaye itaburiya y'umweru ndetse na badge na gant ari kumwe n'umubyeyi wambaye umupira ujya gusa ikinombe n'umwana uri hagati y'imyaka itanu uko bisa kose uyu mwana barimo baramukingira.

Icyumba kirimo abaganga batatu, uko bisa kose barimo barakora imibare y'ibijyanye n'ibyo bakora. Mu buzima aba ari ngombwa cyane ko hategura ibyo ugiye gukora mbere y'igihe, uyu muganga yambaye imyambaro ijyanye n'akazi akora.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo bahuriye ahantu runaka, uko bisa kose barimo barafata amahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima. Aba ari ngombwa cyane ko abantu bahura bakaganira ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi.

Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati gaciye amaboko k'umweru arimo arahereza abana amazi, aba bana ni bane uko bisa kose baje kuvoma amazi bakoresha mu rugo.

Ababyeyi bane, bari ahantu ku ivomero, umwe wambaye agashati kajya gusa umutuku, abandi bambaye imyambaro itandukanye, bari kuri robine barimo barakaraba indoki, undi arimo aravoma amazi mu mbegeti.

Abantu batandukanye higanjemo abagore n'abagabo bambaye imyambaro idasa uko bisa kose bari mu nama bari kuganira ku bintu runaka. Burya mu buzima biba bikwiye ko abantu bahura bakaganira.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye harimo abaganga ndetse n'abandi, abambaye amataburiya ndetse n'imyenda isanzwe. Bari ahantu hamwe uko bisa kose barimo baraganira ku bintu runaka. Mu buzima akaba ari ngombwa cyane kuganira.

Umwana uri hagati y'imyaka icumi kuzamura, wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'ishati ya bureseyeri, arimo arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe y'umweru hariho hejuru ubururu. Ni byiza cyane gukaraba intoki mbere yuko dukora ibintu runaka.

Ababyeyi batatu, umubyeyi umwe wambaye igitenge gisa gusa umutuku, n'undi urimo aravoma amazi, abandi babiri bari muri siporo, bakoresheje icyuma, siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo abasaza n'abakecuru, bari ahantu, mu cyumba runaka, baricaye, bafite impapuro uko bisa kose, barimo barumva ibyo bababwira. Biba ari byiza cyane, ko abantu bicara hamwe, bakajya inama, bagafata n'amahugurwa.

Amazi ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi, umukecuru uri hagati y'imyaka mirongo ine kuzamura arimo aravoma amazi kuri robine, uko bisa kose uyu mubyeyi aya mazi agiye kuyakoresha mu rugo mu bijyanye no gutegura amafunguro.

Umwana uri hagati y'imyaka cumi n'ibiri kuzamura wambaye agakanzu k'umweru harimo ubudomodomo bw'umukara, arimo aravoma amazi mu mbegeti y'umweru uko bisa kose uyu mwana ay'amazi agiye kuyakoresha uturimo runaka two mu rugo.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye, hari nk'abagore n'abakobwa n'abasore, imbere yaho hari amajerekani uko bisa kose bari kuvoma. Amazi ni meza cyane by'umwihariko adufasha mu bintu byinshi. Cyane cyane iyo turimo gutegura amafunguro.

Ababyeyi babiri ndetse n'abagabo babiri, bari ahantu bari kunywa amazi ndetse n'ibindi, umwe afite microphone, uko bisa kose barimo baraganira ku bintu runaka. Mu buzima biba bikwiye cyane ko abantu bakicara bakaganira.

Abamama batatu bambaye udupfukamunwa tw'ubururu harimo uryamye ku gatanda ko kwa muganga uko bisa kose bararwaye, ubu buzima ntago buba bworoshye ni gatebe gatoki.

Uruhurirane rw'abanyeshuri batandukanye harimo abasore n'abakobwa, bambaye imyenda y'amakaki, imbere yabo kuri robine hari amadobo y'umuhondo, uko bisa kose aya mazi bagiye kuyakoresha ibintu runaka.

Buriya ubuzima ni gatebe gatoki. Umwana uri hagati y'imyaka icumi na cumi ni'itanu yambaye ibirenge n'imyenda isa nabi, afite indobo y'umuhondo uko bisa kose agiye kuyikorera. Imbere y'iwe hari umugabo ugiye kumufasha kumushyiraho ingata wambaye umupira w'uburu, ipantaro y'ikuboyi.

Utwana tubiri twambaye imyenda itandukanye, umwe wambaye ishati ijya gusa umutuku nundi wambaye ishati y'iroza, barimo barakaraba intoki. Umuco mwiza ujye uturanga aho turi hose.

Umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu, uri kumwe n'umubyeyi wambaye ibitenge, uko bisa kose barimo baraganira ibijyanye n'imirire myiza y'abana.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo, abagabo bambaye amakositime n'abamama bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa dusa, bahagaze ahantu, inyuma yaho hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ikiranganego cya MTN.

Umubyeyi wambaye ibitenge ndetse n'umupira w'umutuku, uri kumwe n'umwana wambaye ingofero n'agapira k'umweru, imbere yaho hari akana k'agasore kari mu myaka itatu uko bisa kose, barimo baravoma amazi, amazi ni meza cyane adufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, barimo baratwara ibintu biri mu mufuka, uko bisa kose muri iyi mifuka harimo ibintu bitandukanye bijyanye n'ibiribwa.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, imbere yaho hari umubyeyi urwaje umwana, uko bisa kose uyu mwana ararembye, barimo baramukingira. Rimwe na rimwe ni ngombwa ko tujyana abana kwa muganga batararembera mu rugo.

Ikigo nderabuzima gikuru, gishinzwe kuvura abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, imbere yaho hahagaze umugabo wirabura, wambaye ipantaro y'umweru n'ishati iciyemo uturongo uko bisa kose uyu ni umwe mu bayobozi.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye, harimo abagore, abagabo, ndetse n'abana batoya, akana kari imbere kambaye umupira w'ubururu harimo uturongo tw'umweru, bafite amadarapo y'urwanda. U rwanda ni rwiza cyane, kubera ko rudutoza imico myiza.

Umugabo uziritse amaguru, wafashe mu mutwe wambaye igitenge ndetse n'umupira w'ubururu, uri ahantu hatameze neza, uko bisa kose afite ibibazo byinshi, ubuzima buba bugoye cyane.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo itatu kuzamura, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati ijya gusa umukara harimo ahajya gusa umweru, wambaye inkweto z'umukara, ahagaze ku kigo nderabuzima gifasha abantu barwaye bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye, harimo abasore bambaye imipira y'imikara, ndetse n'ababyeyi bambaye imyambaro itandukanye, uko bisa kose bari mu nama, ni ngombwa cyane mu buzima ko abantu bakicara hamwe bakumva amategeko n'amabwiriza.

Uruhurirane rw'abana batandukanye, harimo abambaye imipira ya oranje, ndetse n'indi myambaro idasa, uko bisa kose, bari ahantu, bari gufata amahugurwa y'ijyanye n'uburwayi butandukanye.

Abantu batandukanye; harimo abagore n'abagabo. Abagabo bambaye amakositimu y'imikara ndetse n'umweru, abandi bambaye amajipo ndetse n'amakanzu, uko bisa kose bari ahantu barimo baraganira.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, harimo abaganga ndabona imbere yiwe hari umubyeyi wambaye ikoti ry'umutuku, ndetse muganga nawe yambaye baji, imbere yiwe hateretse amazi, uko bisa kose barimo baraganira mu bijyanye ni iby'ubuzima.

Umuganga uri mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura uri kumwe n'umwana wambaye ikanzu y'ubururu, uko bisa kose arimo aramuganiriza ku kibazo yari afite, akaba ari ngombwa cyane kuganira n'umuganga mbere yuko akuvura.

Ibitaro bifasha abarwayi kubavura ikibazo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, aha ngaha bafasha umuntu ufite ikibazo bakamuvura, ubuzima bw'iwe bukagenda neza.

Ubuzima ni gatebe gatoki, umugabo wambaye imyenda icitse ndetse wifashe ku itama ufite amazi mu macupa uko bisa kose uyu mugabo afite ibibazo, iyi si biba bigoye cyane kubona amaramuko.

Ubuzima ni gatebe gatoki, umwana ufite isura yirabuye, uko bisa kose uyu mwana afite ibibazo kuko arimo ararira, biba bigoye cyane kubona amaramuko iyi si ntisakaye.

Muri iyi si biba bigoye cyane kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka. Umubyeyi uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wicaye ku gishanja, wambaye inkweto za slipper, uko bisa kose uyu muntu afite ibibazo bimukomereye cyane.

Umukobwa ufite imisatsi, wambaye isengeri y'umweru arimo araborosa amenyo. Ni byiza cyane ko umuntu yakorera mu kanwa isuku kugira ngo yirinde indwara za hato na hato zituruka mu kutaborosa amenyo.

Umuganga wambaye ga z'umweru ufite icyuma bakoresha bareba amenyo arwaye n'atarwaye, ari kumwe n'umwana uri hagati y'imyaka cumi n'itanu kuzamura wambaye amaherena. Uko bisa kose arimo aramuvura.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa dutandukanye, bambaye ga zisa, undi muganga yambaye amarinete ndetse n'isaha, barimo baravura umurwayi uko bisa kose ararwaye, barimo baramureba mu kanwa.

Isuku ni ingenzi cyane, mu buzima bwacu bwa buri munsi. ku mwana uri hagati y'imyaka itanu, arimo aborosa amenyo. Uko bisa kose uyu mwana, arimo akora ibintu byiza. Babyeyi rero tujye dutoza abana bacu isuku.

Umwana uri hagati y'imyaka icumi wambaye imyenda y'ubururu ari kumwe na muganga wambaye uturindantoki. Uko bisa kose arimo arareba amenyo y'iwe ikibazo afite. Mu buzima aba ari ngombwa cyane ko umuntu yisuzumisha mbere y'igihe atararembera mu rugo.

Ubuzima ni gatebe gatoki, umuganga wambaye imyambaro y'icyatsi, na ga z'umweru ndetse n'isaha, n'amarinete, n'agapfukamunwa, ari kumwe n'umwana uri hagati y'imyaka cumi n'itanu kuzamura, arimo arareba ikibazo afite mu kanwa.

Umubyeyi uri hagati y'imyaka mirongo itatu kuzamura, wambaye isengeri y'iroza ndetse n'indi myambaro y'imyeru, arimo arakora siporo ananura amaboko n'amaguru, siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'imbuto zitandukanye, harimo inyanya, ndetse n'amarongi, na mandarena, imbere yaho hari abagore batandatu uko bisa kose barimo baracuruza, bashaka imibereho, aba ari ngombwa cyane ko umuntu yazinduka mu gatondo akora uturimo twiwe kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugore wambaye inkweto za siporo ndetse n'ipantaro y'umukara n'agasengeri k'ubururu, uri mu myaka mirongo itatu kuzamura, arimo arakora imirimo ngororamubiri, uko bisa kose uyu mubyeyi arimo arakora ibintu byiza.

Umukecuru wambaye ikanzu y'ubururu, wambaye amarinete ndetse n'amaherena, ari kumwe n'umusaza uri hagati y'imyaka mirongo itandatu kuzamura. Uko bisa kose arimo aramuhereza amazi. Amazi ni meza cyane, adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ababyeyi batatu n'abagabo babiri bari inyuma, bamwe bambaye imyenda isa, abandi babiri bari inyuma umwe yambaye ishati y'ubururu haciyemo uturongo, barimo muri siporo yo kwirukanka.

Umuganga uri mu myaka mirongo itatu kuzamura wambaye imyambaro yo kwa muganga isa ubururu, ari kumwe n'umugabo uri mu myaka mirongo itandatu kuzamura wambaye amataratara, uko bisa kose arimo aramukoresha siporo.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo ine kuzamura, wambaye akajiri k'umukara ndetse n'indi myambaro, ari kumwe n'umuganga wambaye imyambaro isa ubururu uko bisa kose arimo aramujyana ahantu hamwe amuvana ahandi.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu n'umugabo wambaye amarinete ndetse n'umupira wa rakosite w'ubururu n'ipantaro y'ikake, bari kumusuzuma uko bisa kose uyu mugabo ararwaye, ubuzima ni gatebe gatoki.

Ababyeyi babiri bari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, umubyeyi umwe yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ikoti, ahetse akabage, undi na we afite agakapu mu ntoki, uko bisa kose barimo batembera, ni byiza cyane kuberako biruhura mu mutwe.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umupira umwe gusa umweru ariko atari umweru, usutse menshi, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru ariko atari umweru, uko bisa kose barimo baraganira ndabona bishimye cyane.

Ubuzima ni gatebe gatoki, umukecuru uri mu myaka mirongo itandatu kuzamura, uteze igitambara cy'umutuku, uko bisa kose uyu mukecuru arwaye amaso, mu buzima biba bigoye cyane.

Abaganga bambaye imyambaro itandukanye bari mu kazi, uko bisa kose harimo abari kuvura, harimo aba gukora imirimo y'amaboko, mu buzima bidusaba gukora cyane kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Baravuga ngo: "udakora ntakarye".

Abaganga batandatu bambaye imyambaro isa n'ubupfukamunwa bw'ubururu ndetse na ga z'umweru bari mu cyumba, imbere yaho hari umugabo wambaye imyenda y'iroza n'agapfukamunwa gasa n'akabo.

Umuganga wambaye imyenda y'imweru ndetse n'ijiri by'iroza, wambaye ga, ari kumwe n'umukobwa uri hagati y'imyaka, makumyabiri n'itanu kuzamura, uko bisa kose amaze kumutera urukingo.

Muganga wambaye baji n'imyambaro yo kwa muganga, ari kuvura umurwayi wambaye ishati y'umweru iriho ikora ry'umukara, uko bisa kose ararwaye. Abaganga ni beza cyane, badufasha mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba cy'abarwayi bakoreramo operation mu bijyanye n'ubuvuzi, iki cyumba kijyamo umuntu wenyine bakamukorera ibyo bamukorera yarangiza akavamo ari muzima bitewe n'uburwayi afite.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye higanjemo abaganga ndetse n'abandi, uko bisa kose barimo baravura indwara runaka, harimo abambaye agapfukamunwa ndetse n'abandi bambaye imyambaro yo kwa muganga, buriya mu buzima biba bikwiye ko umuntu ajya kwisuzumisha.

Umukecuru uri mu myaka mirongo itanu kuzamura, wambaye imyambaro y'umweru, arimo arafurisha imashini. Iterambere riba ryoroshye cyane, iyo umuntu akoresha imashini bimworohereza imirimo.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi, imbere yaho hari icyapa cy'umutuku uko bisa kose uyu muhanda urafunzwe, mbere na mbere tugomba kumekinga shuwa neza aho tugiye kwambuka turebe nimba nta kibazo gihari.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umukara ufite telefone nini, arimo araganira n'umubyeyi utwite wambaye ikanzu y'ubururu.

Abagabo babiri, umugabo umwe wambaye baji, uri mu myaka mirongo ine kuzamura, ari kumwe n'undi wambaye ijiri ryanditseho rbc, uko bisa kose arimo aramufasha serivisi zijyanye n'irembo.

Umuganga uri hagati y'imyaka mirongo itatu kuzamura, wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse n'imyambaro y'ubururu na baji, ari ahantu mu cyumba cy'abarwayi, inyuma yiwe hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'agapira k'umweru.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyambaro itandukanye, bari ahantu ababyeyi babyarira, uko bisa kose barimo baraganira ku bintu runaka.

Uruhurirane rw'abaganga batandukanye, harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro isa y'imyeru, imbere yaho hari ibitanda, uko bisa kose barimo barita ku barwayi.

Abaganga batatu bambaye imyambaro y'imyeru, barimo baravura umurwayi wambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete, imbere yaho hari undi mukobwa uri mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura, uko bisa kose aba bantu bararwaye.

Abaganga batatu bambaye imyambaro isa ndetse na badje umwe nta badje yambaye n'udupfukanwa dusa bahagaze imbere y'aho ababyeyi babyarira, mu buzima bwa buri munsi abaganga baradufasha.

icyumba kirimo abarwayi babiri ndetse n'umuganga umwe, wambaye imyambaro y'umweru, umurwayi yambaye isengeri ndetse n'ingofero y'umukara, uko bisa kose uyu muganga arimo aravura uyu mubyeyi. Aba ari byiza cyane ko tugenda kwa muganga kugira ngo badufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umugabo wambaye ipantaro ijya gusa umuhondo ndetse n'isaha, umuganga arimo aramuvura uko bisa kose ararwaye. Undi na we wambaye ishati y'umweru uryamye ku gatanda barimo barabavura. Ni byiza cyane kugenda kwa muganga kwisuzumisha utararembera mu rugo.

Imiti itandukanye harimo ibivura umutwe no mu nda ndetse n'ibindi bintu byinshi, iyi miti iradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo umuntu arwaye akabinywa aba muzima.

Akaguru kariho ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku udakeye, uko bisa kose n'ubwo atagaragara arimo arakora siporo, mu buzima aba ari ngombwa cyane ko umuntu yakora imirimo igorora umubiri, kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uri hejuru y'imyaka mirongo itatu wambaye umupira w'umukara avuye muri siporo, ari kwimena amazi mu mutwe, uko bisa kose yari ananiwe. Siporo ni nziza cyane.

Imbuto ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, pome ndetse n'umwembe n'ironji ndetse n'amazi. Ibi ng'ibi bidufasha cyane cyane iyo umuntu amaze kurya akarenzaho imbuto, aba ari byiza cyane bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wambaye kola y'icyatsi, ndetse na agasengeri ibisa, ufite menshi arimo arakora siporo y'amaboko ndetse n'amaguru, n'izindi ngingo zitandukanye, imirimo y'amaboko, siporo n'ibijyanye n'ibindi ni byiza cyane kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanuzamura mirongo itatu, avuye muri siporo, ndabonara yari afite inyota cyane ari kunywa amazi, siporo ni nziza cyane kuko idufasha byinshi, igabanya ibinure ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane.

Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wambaye imyambaro ya siporo, ipantaro y'umukara, ndetse n'isengeri y'umukara n'inkweto z'umweru. Arimo arakora siporo ananura amaboko n'amaguru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari umusore wicaye mu kagare uko bisa kose muganga arimo aramumenyereza kugenda mu kagare kugira ngo abashe kugororoka ingingo.

Umuganga uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wambaye ga z'ubururu ndetse n'imyambaro yo kwa muganga, wambaye n'agapfukamunwa imbere y'iwe hari imashini. Uko bisa kose arimo akora akazi kajyanye n'umwuga akora.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, uri mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura, arimo arakora siporo akoresheje amaboko abiri. Siporo ni nziza cyane mubuzima bwacu bwa buri munsi, igabanya siteresi ndetse n'amavunane atandukanye.

Mu buzima bisaba gukora cyane kugira ngo tugire ubuzima bwiza, dukora siporo. Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, ari kunywa amazi ndetse yambaye na koteri, ari kumva umuziki, uko bisa kose yari afite inyota. Siporo ni nziza cyane kubera ko idufasha byinshi cyane.

Ubuzima butarimo siporo ntacyo buba bumaze! Umugabo wambaye isengeri ndetse n'ipantaro, wambaye inkweto za siporo arimo arananura amaguru ndetse n'amaboko, uyu muntu ari mu gikorwa cyiza, siporro ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'isenge ry'umukara, inkweto z'umukara, hasi ari umweru, amasogisi z'umweru, arimo arakora siporo ashyira akaguru ku giti, uyu mugabo arimo arakora ibintu byiza kuko siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wambaye ikabutura y'umukara, ufite ikirangantengo gishushanyijeho akantu k'ubururu, uko bisa kose arimo arakora siporo, siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagabo batatu umwe wambaye imyenda y'imikara, undi wambaye umukara hejuru umweru, undi nawe yambaye kasike uko bisa kose barimo barafasha uyu urimo hagati yavunitse, gufasha ni byiza cyane ni umutima w'urukundo.

Uruhurirane rw'imiti ya gakondo iri mu macupa atandukanye, iyi miti iravura cyane cyane iyo bayikoresheje neza umuntu arakira, iruta indi miti ya kizungu.

Ikigo gishinzwe kurwanya ibiyobya bwenge ndetse no kugabanya imyuka mibi ituruka mu gutwika ibiparasitike ndetse n'ibindi. Iki kigo ni cyiza cyane kubera ko kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ya gakondo, iyi miti rero iradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, igikakarubamba ndetse n'ibindi bivura mu nda, n'izindi ndwara tutavuze haruguru.

Imiti gakondo ni myiza cyane ivura indwara zananiranye. Uyu ni umuravumba uvura mu muhogo ukavura no munda ndetse n'izindi ndwara nyinshi, mu buzima busanzwe iyi miti iradufasha cyane akenshi iyo umuntu arwaye indwara zinzaduka.

Uruhurirane rw'imiti ya gakondo itandukanye, iri mu gatajeri, imbere yaho hari umubyeyi wambaye itaburiya y'umweru, n'undi na we wambaye ikanzu y'ubururu, iyo miti myiza cyane, kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuti gakondo. Uri mu icupa rijya gusa umukara hashushanyijeho ibintu by'umutuku, iyi miti irakora cyane, iravura ku buryo bwo hejuru, iruta indi miti ya kizungu cyane cyane iyo bayiseye neza.